Tubungabunge uburezi, duhereye mu mashuri y'inshuke, aho umwana ategurwa akiri mutoya, agakura azi gusoma ndetse no kubara no kwandika, bityo twifashishije imfashanyigisho zituma ukangura ubwonko bw'umwana bityo akamenya ibyo yiga neza cyane.

Uburezi ni umusingi w'iterambere by'umwihariko uburezi bw'abana b'inshuke kuko igiti kigororwa ari gito, niyo mpamvu dushishikariza kwigisha abana bacu, dukoresha imfashanyigisho bituma bikangura ubwonko bw'umwana, akabasha kumenya inyamaswa iyo ari yo, ubimweretse mu mashusho.

Uburezi buri gutera imbere, noneho twite ku burezi bw'abana b'incuke, kandi mu myigishirize yabo ni byiza ko twakoresha imfashanyigisho zirimo amashusho y'udusimba, kugira ngo umwana ubwonko bwe bukanguke kandi abashe kwiga ibyo areba. Ni byiza gukoresha imfashanyigisho.

Uburezi ni umusingi w'iterambere. Hajeho uburezi bw'abana b'incuke ari bwiza, umwana agororwa akiri muto. Ni byiza rero nk'umubyeyi kugurira ibikoresho umwana, akagenda asa neza kandi afite ibikoresho bihagije; nka telefone, igikapu. Hari ufukapu twiza abana baheka bakajyanamo amakayi bakajya kwiga bishimye bakabasha kubona uburezi.

Ni byiza mu iterambere ry'igihugu kandi mu burezi muri rusange kuba harajeho amashuri y'incuke, aho abana batangira uburezi bakiri bato kandi igiti kigororwa kikiri gito, ni byiza. Turabonakandagira ukararabe ni byiza gutoza umwana gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune yaba agiye ku ishuri, yaba agiye kurya umwana agatozwa ibyo bintu.

Twite ku burezi bw'abana bacu bakiri batoya aho bazavamo abantu bakomeye nibo rwanda rw'ejo. No mu gihe twigisha abana nk'abarezi tugomba gukoresha imfashanyigisho harimo ibishushanyo kugira ngo umwana yige ndetse abona n'ibyo yiga abasha kubisobanura kuko tuba twaramweretse imfashanyigisho. Iki ni ikibabi aho gishushanyiriza abana bakarebaho ibice bakabimenya babireba ku kibabi bazi.

Uburezi kuri bose kandi ni umusingi w'iterambere, hajeho uburezi bw'amashuri y'incuke aho usanga harubatswe ibyumba by'amashuri kugira ngo abana bo mu mashuri y'inshuke babone aho bigira kandi ni ibintu byiza mu iterambere ry'igihugu.

Uburezi bw'inshuke ni bwiza kuko umwana agororwa akiri muto maze agakura akunda ishuri kandi afite ubwenge buhagije, ni byiza rero kwifashisha imfashanyigisho mu gihe uri kwigisha uwo mwana kugira ngo ukangure ubwonko bwe, bityo akure ari umwana uzi ubwenge.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, niyo mpamvu dushishikarizwa kubungabunga uburezi kugira ngo umwana akure afite uburere bwiza by'umwihariko duhereye ku burezi bw'abana b'inshuke, aho tugomba kububungabunga tubaha ibikoresho kandi tubajyana mu mashuri.

Uburezi ni bwiza kandi bugira umumaro ku gihugu ndetse no ku baturage, noneho uburezi bw'abana b'incuke bituma umwana azamuka neza. Hano turi kubona ibikinisho by'abana bibafasha mu myigire yabo ndetse no gukangura ubwonko bwabo, ubwenge bwabo bugatera imbere. Hari ibikinisho by'imbunda, hari ibikinisho by'ibisimba. Nibyiza kuko bifasha mu burezi bw'umwana w'incuke.

Kera umwana yatangiraga imyaka irindwi, ugasanga nibwo yatangiye amashuri abanza ariko ubu ngubu, hari amashuri y'inshuke, ariyo abantu basigaye batangira bakiri batoya, bagatangira uburezi bakiga.

Ni byiza gutoza umwana gusoma akiri mu mashuri yo hasi cyangwa se ayo twita ay'inshuke, bityo bikazatuma abasha kugera hejuru azi ubwenge kandi akunda gusoma, cyane ko ubu bwe bwinshi bu bubitse mu bitabo, umwana ni ukumutoza gusoma akiri hasi mu mashuri y'inshuke.

uburezi ni umusingi w'iterambere kandi bugira umumaro mu iterambere ry'igihugu. Ni byiza ko twakwita ku burezi bw'abana b'incuke dukoresha imfashanyigisho harimo ibishushanyo n'ibindi. Hano nk'iki giti gishushanyije neza gifasha umwana mu gukangura ubwonko bwe akaba yamenya ibice bigize igiti, abyigiye kuri za mfashanyigisho.

Mu rwego rwo kugira uburezi bwiza ni ngombwa ko abana b'incuke nabo bitwaho maze bagahabwa uburezi bakiri batoya kandi bwiza. Gukoresha imfashanyigisho nk'ibi bipupe ni byiza bifasha umwana mu gukangura ubwonko bwe kandi agafata vuba. Bino bipope bifasha umwana kwiga ashyizeho umwete kandi akurikiye atarangara yishimiye ibyo ari kwiga. Ni byiza ko ibi tubikoresha rero umwana agahabwa uburezi.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, tubungabunga uburezi bw'abana kuko nibo Rwanda rwejo. Uburezi bw'inshuke nabwo buri mubugira umumaro mu gutuma umwana akura neza kandi ni byiza gutegura ahantu yigira. Ahantu hari ibikoresho byiza, abana bakora siporo ibyo twita ibyicungo. Abana bakabasha kwiga neza kandi bishimye bigira ahantu heza hisanzuye hari ibikoresho.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, ubu kandi hajeho gahunda yo guhera uburezi bw'abana b'inshuke kugira ngo uburere cyangwa se igiti kigororwe kikiri gito; ni byiza ko abana b'inshuke mu mashuri yabo tubashyiriraho ahantu ho kwicara bisanzuye, tukabashyiriramo n'imfashanyigisho mu mashuri, amashuri akaba afite isuku maze umwana akarushaho kwiga neza.

Ni byiza kubungabunga umwana akiri mu mashuri y'inshuke, kugira ngo azakure azi ubwenge kuko niho bihera. Ni byiza mu gihe wigisha umwana wo mu inshuke kuba wakoresha imfashanyigisho harimo nk'ibishushanyo bituma ubwonko bwe bukanguka kandi bikamworohera mu gufata ibyo umwigisha. Ibi ni ibishushanyo bituma umwana aba umuhanga, kandi agafata ibyo umwigisha.

Uburezi mu musingi w'iterambere, yaba duhereye ku burezi bw'abana b'inshuke turi kubona hano ikigo cyiza, ni byiza kubabaka bino bigo noneho bagashyiraho n'izo mfashanyigisho, zituma abana bisanga ku kigo kandi biga ahantu bakunze, babasha no kwiyungura ubumenyi mu mutwe wabo.

Imfashanyigisho ziri mu bimwe mu bituma umwana abasha gufata neza ibyo yize kandi bigakangura ubwonko bwe, cyane cyane ku burezi bw'abana b'inshuke. Mu gihe wigisha abana ni byiza gukoresha ibishushanyo nk'imfashanyigisho waba ugiye kubigisha inzovu, ukayishushanya bigatuma abana barushaho gusobanukirwa no gufata mu mutwe.

Umwana wo mu mashuri y'inshuke ni byiza kumwitaho gutyo bigatuma akunda ishuri, aho umuntu aba agomba kumugura ibikoresho by'ishuri, harimo nk'udukapu two kubikamo amakaye ye ndetse ukamugura n'udukinisho tumufasha mu mashuri ye, bituma akunda ishuri ndetse n'ireme ry'uburezi rikazamuka.

Uburezi bw'amashuri y'incuke, ni ahantu heza umwana akurira kandi akabasha kwiyungura ubumenyi no gukora mu bwonko. Ni byiza kumushakira udufashayigisho, turimo ibikinisho, turimo amabara kugira ngo abashe kugenda amenya ibintu bitandukanye, ari nako ubwonko bwe bukanguka.

Mu rwego rwo gufasha abana b'inshuke mu burezi bwabo ni byiza ko tubagurira imfashanyigisho ndetse n'ibikinisho byinshi bituma bikangura ubwonko bwabo, nka hano hari utumodoka twiza, utugare, ibipupe, ibi ngibi bifasha umwana mu myigire ndetse no mu gukangura ubwonko bwe bigatuma yiga akurikiye kandi bimufasha nk'uko byitwa imfashanyigisho.

Uburezi bukomeje gutera imbere hariho by'umwihariko ubw'abana b'inshuke abana bafite imyaka kuva kuri ibiri kugeza kuri itanu, bariga amashuri y'inshuke aho ari byiza gukoresha imfashanyigisho nk'ibishushanyo kugira ngo abana bakangure ubwonko bwabo, hano hari udushanyo twiza tw'inzu dutatse amabara dutuma umwana akunda ibyo ari kwiga kandi bikamufasha gufata neza mu mutwe ibyo yize.

Utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze, ni umugani abanyarwanda baciye mu rwego rwo kurera u Rwanda rw'ejo kururerera, ni byiza kuganira n'abana, hano turi kubona umusaza arimo kuganirira abana ababwira, ni byiza abana bakamenya iby'abantu bakuru baba bazi cyane ko aba ari byinshi.

Kera wasangaga ababyeyi batita ku banyeshuri umubyeyi akavuga ngo ubwo umwana yiga mu mashuri abanza nta kibazo wamuha ikayi imwe ibi ihagije ariko ubungubu siko bikimeze, umwana kugira ngo yige neza utitaye ngo yiga mu mashuri abanza umuhe ibikoresho harimo ibikoresho bimufasha mu kwiga imibare n'andi masomo ni byiza.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kandi duhora dushishikariza gukoresha imfashanyigisho zimwe na zimwe kugira ngo umwana wo mu mashuri abanza abashe gufata neza ibyo yiga, kandi tugakangurira kuba hari imikino imwe na rimwe ishyirwa mu mashuri kugira ngo umwana ubwonko bwe bukanguke nk'imikino y'udupira, ama balo ukabagurira imipira yo gukina kugira ngo umwana abashe kugira ubuzima bwiza n'amasomo meza.

Amashuri abanza ni wo musingi w'ubumenyi, iyo umwana ahacuriwe neza bituma azamuka ameze neza afite uburezi n'uburere bwiza. Rero hano, turi kubona ifoto, ni umwarimu ari kuganira n'abanyeshuri babaha uburere n'abana baragaragara neza, ni ibintu bisa neza.

Mu rwego rwo kubungabunga ndetse no guteza imbere ireme ry'uburezi ni byiza ko umwana wo mu mashuri abanza ndetse n'undi wese agurirwa ibikoresho yaba aho kubika amakayi ndetse n'imyambaro y'ishuri bityo umwana akajya kwiga asa neza bikamufasha mu kumuha ikizere kandi akiga ameze neza.

Uburezi ku isonga nk'umusingi w'iterambere byagera ku burezi bw'abana b'incuke nabwo ugasanga biri mu bituma amashuri n'uburezi butera imbere mu gihugu, kuba wabagurira ibikoresho harimo matematikale ni byiza bikabafasha mu myigire yabo ndetse n'ireme ry'uburezi rikazamuka.

Amashuri abanza niho umwana yigira ibintu akabimenya, ukaba wamwigisha uko ibintu byitwa yaba mu ndimi z'amahanga, akaba yamenya uko agapfukamunwa kitwa, uko ga zitwa mu ndimi z'amahanga ndetse n'amabote, cyane ko umwana yabimenye ari hariya ntabwo yabyibagirwa.

Igihugu kiri ku muvuduko w'iterambere bituma isuku iranga ahantu hose ugiye yaba mu mashuri, iyo umwana yigiye ahantu heza, afite ahantu ho kwicara hisanzuye, hari isuku bituma n'ibyo yiga abifata, ubu ngubu ni yo gahunda ya Leta yo kugira amashuri meza manini magari afite isuku kandi ari ahantu hatuje ho kwicara bifasha umwana mu myigire.

Uburezi ni umusingi w'iterambere dutoza abana gusoma neza, kunoza ururimi rw'ikinyarwanda, bari mu mashuri abanza bazakura bazi gusoma ndetse no kwandika, binyuze mu burezi bw'amashuri abanza niho dutoreza umwana kumenya tumutoza gusoma ibitabo byaba iby'ikinyarwanda ndetse n'imibare bityo akagira ubumenyi.

Tubungabunge uburezi dushyireho umuhate nkuko uko leta Ihora ibidushishikariza duhereye mu burezi bw'amashuri abanza, umwana agurirwa ibikoresho bityo bikamufasha mu myigire ya buri munsi. Hari ibikoresho byifashishwa mu mibare, agasanduku kabamo udukoresho dukenerwa mu mibare yaba guca imirongo, gushora ibiziga bityo umwana agakura afite ubwenge bitewe no kumugurira ibikoresho.

Muri gahunda ya Leta ni uko abana bose bagana ishuri, bagakura bazi ubumenyi butandukanye kandi bakavamo abantu bazagirira Igihugu akamaro. Nk'umurezi ni byiza gukoresha imfashanyigisho nk'ibishushanyo kugira ngo icyo umwana yize abashe no kumenya icyo aricyo. Wakwifashisha ibishushanyo, ushobora kuba uri kwigisha inzu, ugashushanyiriza umwana inzu cyangwa se inyamaswa nk'impyisi. Umwana akabasha kuyibona ku gishushanyo.

Amashuri abanza niho umwana amora uburezi butandukanye kandi kwigira mu ishuri ryiza rinini, rifite isuku, bituma umwana yiga atabangamiwe, bityo akabona uburezi bukomotse ku mashuri abanza kuko niwo musingi w'iterambere cyangwa se w'uburezi.

Amashuri arubakwa ku bwinshi kandi usanga yujuje ibyangombwa. Aho usanga umwana wo mu mashuri abanza aba azi kwikarabya. Afite n'umuco wo kuba agiye kwinjira mu ishuri akabanza agakaraba amazi meza n'isabune. Hari ibyo bita kandagira ukarabe bishyirwa ku mashuri bityo umwana akabasha kubona amasomo ndetse afite n'ubuzima buzira umuze butarimo indwara kandi umwana akiga neza.

Uburezi nk'umusingi w'iterambere kandi igiti burya kigororwa kikiri gito, ni ngombwa ko twakwita, twabungabunga ku burezi bw'amashuri abanza kuko niho umwana atorera ibizamufasha yageze hejuru yageze mu mashuri yisumbuye, niyo mpamvu twese twafatanya mu kugira ngo tubungabunga uburere bwo mu mashuri abanza niwo musingi w'iterambere, niho umwana acurirwa.

Amashuri abanza ni m kuko umwana ariho yigira ibintu byinshi amasomo nk'indimi, imibare maze akabasha kuzavamo umuntu uw'ingirakamaro. Ni byiza kumugura ibikoresho bikoresha mu mashuri harimo za matematiakre, hano haba harimo udukoresho twifashishwa mu isomo ry'imibare, akiga agatsinda akamenya gushora ibinyampande ndetse n'ibiziga maze akazavamo umuhanga.

Mu rwego rwo guteza imbere uburezi yaba ubw'amashuri abanza, ni byiza gutegura aho umwana yigira hakaba ari ahantu hafite isuku, hari aho kwicara ndetse harimo imfashanyigisho zikangura ubwonko bw'umwana, bikamworohera mu kubona ubumenyi ndetse akiga atuje yishimye.

Uburezi ni umusingi w'iterambere by'umwihariko amashuri abanza, bityo umwana uharerewe neza azamuka azi ubwenge. Ni byiza gukoresha ibitabo harimo nk'ibitabo by'ubumenyi rusange, ubumenyi bw'isi, bituma umwana ajijuka kandi akamenya, bityo ukajya ubimuha akabasha kumenya gusoma akiyungura ubumenyi.

Ni byiza kwita ku burezi bw'umwana uri mu mashuri abanza kuko niho akura ubumenyi buzamutwara no mu mashuri yisumbuye kandi ugakoresha imfashanyigisho. Waba uri kumwigisha ubumenyi bw'isi ukaba wakoresha za mfashanyigisho zerekana uko isi iteye, uko yikaraga ukaba wabimwereka bityo akabasha kugira ubumenyi bwisumbuyeho, kumwigisha hari n'imfashanyigisho.

Uburezi nk'umusingi w'iterambere kandi butuma ubukungu bw'igihugu buzamuka, igihugu kikagira abantu bajijutse, kandi bigatanga umusaruro. Uburezi bw'amashuri abanza nabwo ni bwiza aho abana bajya gufata amasomo bakigira mu bigo byiza, bifite aho wakarabira, bifite ibigega by'amazi kandi hari n'ahantu abana babasha gukinira. Amashuri asa neza mu gihugu kiri gutera imbere cy'u Rwanda.

Mu rwego rwo gutuma umwana yiga neza, ni ngombwa kumugurira ibikoresho bityo bikamufasha mu kwiga ukaba wanamwigisha uburyo bikora hari nk'abana biga imibare n' isomo ryiza rifasha mu kuba wagira ubwenge ariko ukamugura ibikoresho byifasha harimo nk'icyo bita uducaruziga dutuma umwana amenya guca uruziga bityo akamenya ubuso uruziga rugira yaruciye ari uruziga rwiza rwikoresheje utwo tuntu.

Mu rwego rwo guteza imbere uburezi bw'amashuri abanza ni byiza ko umwana umugurira ibikoresho by'ishuri bimufasha mu masomo ye yiga ya buri munsi, aho ngaho twavuga nk'ikaramu y'igiti, agasibisho, amarati amufasha mu isomo ry'imibare, bityo ugasanga uburezi burazamutse ndetse n'imyigire ye biramworoheye.

Muri iki gihe ibikorwa remezo biri gutera imbere aho uburezi nabwo buri kwirukanswa ,ugasanga iterambere ry'uburezi buri kwirukanswa aho abana b'incuke nabo basigaye, barashyiriho uburyo bwo kwiga ,uburezi bugahera hasi ku bana b'inshuke ,ibikoresho birashyirwamo ni ibintuintu byiza bituma igihugu cyihuta mu iterambere, duhereye ku burezi bw'abana b'incuke cyangwa uburezi bwa pirimeli.

Igihugu kiri ku muvuduko w'iterambere, ni byiza kugira abantu bafite uburezi ndetse n'ubumenyi kugira ngo babashe guhangana n'ikoranabuhanga ndetse n'umuvuduko isi iriho iterambere, uburezi rero ni umusingi w'iterambere no kugera ku byo igihugu kiba kigamije binyuze mu mashuri yaba ayisumbuye ndetse n'amashuri abanza.

Ubuzima bw'abana mu kwitabwaho niyo mpamvu leta ishishikariza ko umwana wese agomba kuba mu muryango, gusa abana bahuye n'ibibazo by'imico mibi hari abantu babajyana kugira ngo babahe uburere bwiza babagorore, hari igororero ry'abana riri Nyagatare iryo naryo rifasha abana, aho iyo umwana agezeyo akomeza agahabwa n'uburezi akavamo yize amashuri aba atarize.

Uburezi kuri bose kandi umusingi w'iterambere, nyuma y'uko leta ishyiho uburyo bw'imyaka icyenda ndetse n'imyaka cumi n'ibiri, amashuri yisumbuye yabonye abantu bari kwiga benshi basoza, umubare wariyongereye kandi ingeri zose abakobwa n'abahungu, uko waba ungana kose mu Rwanda, ntuhejwe mu kwiga.

Uburezi ni bwiza bugira akamaro kandi butuma umuntu abasha kwihangira imirimo agakora akabona ibimutunga, by'umwihariko amashuri yisumbuye abantu barushaho kwikarishya mu bumenyi, hari ibigo byinshi ya bigo by'amashuri y'imyaka icyenda, ndetse n'ibigo by'imyaka icumi. Urugero natanga ni nk'ikigo cy'urwunge cya rukomo ,n'ikigo cyiza wajyanaho umwana wawe akajya kwiga kandi akavamo umuntu ukomeye.

Uburezi nk'umusingi w'iterambere kandi ku isonga, ubu nta mwana ukiburaraho kwigira, amashuri yaraje, hano turi kubonane abanyeshuri basa neza, impuzankano nazo zri mu btuma abana basa neza maze uburezi bugatera imbere.

Uburezi ni umusingi w'iterambere, amashuri yisumbuye abantu bigiramo ubumenyi buhanitse maze bagakarishya ubwenge bakabasha gukora cyangwa se kubona uko bahangana n'isoko ry'umurimo hanze aha, binyuze mu mashuri biga yisumbuye kuko batahumo ubumenyi buhanitse.

U Rwanda ruratera imbere mu burezi, aho usanga abana b'abahungu n'abakobwa bariga, maze ugasanga ireme ry'uburezi riratera imbere, yaba amashuri yisumbuye, aho usanga hari ibigo byinshi bitandukanye, ibigo by'abihayemana, usanga higamo umubare w'abana benshi. Ireme ry'uburezi rikaba ritera imbere umunsi ku wundi.

Ibikorwa remezo birubakwa cyane kandi n'amashuri akazamuka ndetse n'ireme ry'uburezi rigatangwa, amashuri yisumbuye nayo yubatswe ari menshi n'abayagana ni benshi, bityo abantu barushahoguhurira hamwe bakaganira icyateza imbere ireme ry'uburezi muri rusange, dushingiye ku mashuri yisumbuye.

Uburezi budaheza umwana w'umuhungu ariga, umwana w'umukobwa akiga bityo ireme ry'uburezi rigatera imbere mu mashuri yisumbuye, aho usanga abana batsinda ku kigero gishimishije, bityo umubare w'abiga yaba abakobwa n'abahungu urazamuka kandi bituma iterambere rigana imbere rikomeza ku muvuduko ushimishije.

Kugira ngo ibyo wize mu mashuri abanza bitazapfa ubusa. Ni byiza byo kugira ngo unabikomeze mu mashuri yisumbuye. Urusheho kubona ubumenyi bwisumbuyeho, ubwo mu mashuri abanza. Igihugu nacyo cyubatse amashuri menshi, hano turi kubona amashuri yisumbuye. Ni amashuri meza, abana bigiraho kandi ni ibyumba byinshi bituma ntawaburaraho kwigira.

Uburezi buri ku isonga kandi buratera imbere cyane, yaba ubw'amashuri abanza ndetse n'ubw'amashuri yisumbuye, aho dusanga abana b'abakobwa mu mashuri yisumbuye biganjemo, bigatuma uburezi ku mpande zombi, yaba ku mwana w'umuhungu cyangwa umukobwa, butera imbere uri ku rwego rushimishije.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kandi ni bwiza kuko bigira umumaro ku baturage ndetse n'Igihugu muri rusange. Amashuri ya segonderi yariyongerewe aho nta muntu ukibura aho yigira kandi ireme ry'uburezi rirazamuka umunsi ku munsi.

Amashuri yisumbuye yarubatswe ku bwinshi hari n'ay'imyaka ikenda ndetse n'imyaka cumi n'ibiri, bituma abayagana ari benshi kandi usanga hari ahantu buri shuri riba rifite ah'amasomero, umwana ushakatse kwiyungura ubumenyi akagenda agafata igitabo agasoma, bityo akabona ubumenyi butandukanye burushijeho ubwo yari azi.

Uburezi umusingi w'iterambere, kandi uburezi ku isonga, hano turi kubona abanyeshuri bari mu kigo ni abanyeshuri basa neza, ubona bakeye bafite isuku, ni byiza rero ko abana biga mu mashuri ya segonderi, bakiga amashuri yisumbuye bagakangura ubumenyi bwabo bakagira icyo bageraho.

NI byiza kwigisha abana bakiri bato cyangwa se abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye amateka y'igihugu, ukayabwira bakiri bato kandi ngo bakure baze igihugu cyabo kandi tukabashishikariza kumenya amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane kugira ngo bitazasubira. Tukabashishikariza kwibuka abacu bazize jenoside nk'abanyeshuri bafite indabo bagiye kwibuka abacu bazize jenoside ni ibintu byiza.

Mu buryo bwo kwihangira imirimo ndetse no kugabanya ubushomeri no ku buryo waba wahangana no kuri hanze aha n'isoko ry'umurimo, ni byiza kwiga ukiga ukiga ukaminuza, ukiga n'amashuri y'imyuga, hano turi kubona ishusho ishushanyije bino bintu babyiga mu mashuri y'imyuga ndetse na za Kaminuza; ni byiza kandi bitanga akazi keza gahemba neza.

Uburezi ni bwiza kandi ni umusingi w'iterambere, ni byiza ko twashishikariza buri wese kwiga ndetse akageraho ubwo aminuza kandi abantu bakiga imyuga, aho bamenya ibintu byinshi harimo kuba bakiga ubugeni akamenya gushushanya, akamenya gukora ibihangano bitandukanye bityo akazihangira imirimo akabona amafaranga meza cyane, agatanga n'akazi akigisha n'abandi.

Mu mashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyuga habamo amasomo atandukanye yaba ay'ubumenyi ngiro, harimo kumenya kuba washushanya kandi bigatanga amafaranga bikaba akazi ka buri munsi, ni byiza ko abantu bajya muri ayo mashuri bakaminuza ndetse bakiga ubumenyi ngiro, ukamenya gukora ikintu n'amaboko yawe ukaba wabona amafaranga.

Ni byiza ko twajya mu ishuri twese tukiga, tukabona ubumenyi, ariko ntabwo ari byiza gusoreza amashuri yawe mu mashuri yisumbuye gusa, ahubwo ni byiza no kaminuza ibyo wize ukabafiteho ubumenyi buhanitse. Iyi ni kaminuza iherereye Nyagatare ifite ahantu hanini, jaride ifite ubusitani bunini kandi ifite isuku ahantu hagaragara neza; waza ukigira ukigira ahantu heza ukabona ubumenyi.

Amashuri ni byiza kwiga ukamenya kandi ukaminuza ukaba wanakiga amashuri y'imyuga. Aho ubasha kumenya gukora ibintu ubikoresheje amaboko yawe. Ibintu bituma ubona amafaranga. Hari nk'ibibumbano bigurwa amafaranga menshi. Ibyo byose ubyiga mu mashuri y'imyuga ndetse na za kaminuza. Ukabasha kwihangira imirimo, ugahangana n'isoko ry'umurimo hanze aha ngaha.